Ibara ry'ubururu, ririmo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, imbere yaho hari umugabo, wambaye umupira w'ubururu bwijimye, ufite ikintu gisa nk'ikirangantego k'ikipe gifite ibara ry'ubururu bwerurutse.

Iduka ry'imyenda harimo amashati y'iroza n'umweru, udupira dutoya tw'iroza, udusengeri tw'umweru, amapantaro y'amakoboyi, udusengeri tw'iroza, udupira twa move.

Iduka ririmo imyenda nk'imipira amasengeri y'abakobwa ay'abahungu, imyenda izinze udutara hejuru dusohora urumuri rw'umweru ndetse n'abagore babiri basa nk'abarimo baradoda.

Umugore ufite amafaranga mu ntoki. Ayanditseho umubare mirongo itanu afite ubururu bwerurutse. Andi afite ibara rijya gusa iroza. Ayandi afite ibara risa icyatsi. Ni umuzungu kandi afite umusatsi wirabura.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo ufite ibara ry'ubururu ku ikora, yambaye umupira wandikishijweho mu gatuza ibara ry'ubururu, ahagaze imbere y'ikamyo y'umukara, uwo mugabo arirabura kandi arogosha.

Inzu igeretse ifite urupangu rw'umutuku ruvanzemo amabara y'ivu, yubakishijwe n'amatafari ya rukarakara, urupangu rwayo rufite fondasiyo y'amatafari ahiye.

Abagore batanu, babiri muri bo bambaye imipira y'umweru kandi ifite amaboko maremare, bari ahantu hasa nkaho ari mu iduka ricuruza ibintu, birimo ibifite amabara y'ubururu, umutuku ndetse n'icyatsi.